Abantu bakora mu itsinda rishinzwe gutanga amaraso, bafite icyapa cyabyo kibigaragaza, ni abasore n'abakobwa bari mu kigero k'imyaka imwe, bose bambaye impuzankano, imyenda isa.

Ukuboko kuvunitse kuri ku muntu, uku kuboko kuriho sima ndetse kuriho n'ipamba, uku kuboko gufite igishumi kigufatishije mu ijosi ndetse uyu muntu yambaye n'ishati ukuboko kwe yaguhinnye.

Imodoka yarenze umuhanda ijya mu nzira y'abagenzi, imbere yayo hari umuntu uhagaze, hakurya yayo hari ibyatsi ndetse hari n'imyaka hari n'ishyamba, mu muhanda hahagaze umuntu ushinzwe urwego rw'umutekano wo mu muhanda, inyuma yaho hari n'indi modoka.

Abaganga bambaye ibitambaro mu mutwe, byose birasa n'udupfukamunwa bambaye turasa n'amakanzu bambaye arasa, aba baganga bari mu kazi k'ubuvuzi ndetse harimo n'umuganga wambaye rinete, ufashe icyuma gifite umugozi.

Abagabo n'umugore bahagaze ku modoka y'ibangukiragutabara, iyi modoka ihagaze ahantu hegereye ishyamba, hari ibiti birebire ndetse imodoka ahantu ihagaze hashashe amatafari.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, imbere yabo hari abantu babiri batwaye igitambaro, umwe mu kuboko kw'ibumoso, undi mu kuboko kw'iburyo, cyanditseho kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, ibitaro bya Nyagatare, inyuma y'abo bantu hari abandi benshi ndetse hari n'ibiti ku muhanda, hari n'indabyo ndetse n'inyuma yabo hari imodoka, zigenda zibakurikiye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe ku murongo ariko hari undi muntu ubahagaze imbere, ahantu bicaye hari inzu zifite imiryango myinshi nazo zubatse ku murongo umwe, imbere yabo hubakiye urugo.

Abantu benshi bahagaze mu muhanda harimo aba mama n'abagabo bahagaze mu muhanda impande zawo hari ibiti biwukikije ndetse hari n'indabyo. Aba bantu bahagaze mu cyapa cyanditseho ngo ibitaro by'Akarere bya Nyagatare, inyuma yabo hari amazu hari n'abandi bantu.

Abaganga babiri bari kumwe n'umurwayi ku gitanda, bari mu cyumba biherereye, bafite icyuma kimurika ndetse kinasuzuma umuntu, aba baganga bambaye imyenda isa, aho bari mu cyumba, barimo barita ku muganga ndetse harimo n'intebe, bambaye n'udupfukamunwa bano baganga n'ingofero zisa.

Umumama ufite imisatsi miremire uyu mu mama afite urushinge ndetse mu kuboko kwe yambaye ubwirinzi, yambaye ishati y'umweru afite n'umushumi w'ubururu mu ijosi rye.

Abantu bahagaze hamwe bazengurutse ameza, aba bantu harimo abagabo n'abakobwa n'abasore, imbere yabo ku meza hateretse amacupa arimo ibintu bigiye bitandukanye ndetse bose barahagaze.

Umuganga wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza afite ikaramu ari kwandika, hari impapuro nyinshi hari n'icupa ripfundikiye, iruhande rwe hicaye undi muntu ndetse hari n'impapuro hari n'icyuma gipima umuvuduko.

Umuganga urwaje umurwayi ku gitanda cya cumi, uyu muganga umurwaje arwaye yamuteye urushinge rumwongerera amaraso ,ndetse uyu muganga ahantu ari gukorera harimo ibyuma bitandukanye by'ubuvuzi.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, harimo abambaye amashati maremare asa, harimo n'abambaye imyenda idasa n'iyabandi, aba bantu benshi bafite amatelefoni, bamwe bari guseka banazirebamo, aba bantu bahagaze mu kerekezo kimwe ndetse inyuma yabo hari ibiti, hari n'ibindi biti bibiri bishinze.

Abantu babiri bicaye hamwe ku ntebe ndetse aba bantu, umwe afite umwana, undi ni umugabo, nta mwana afite, inyuma yabo hubatse inyubako isize amarangi ndetse hari indabyo n'ibyatsi.

Umuntu uteruye igipopi, yagiteruye mu myenda nk'uteruye umwana ndetse arimo aragisoma, aseka yishimye, uyu muntu aricaye, ahantu ari wenyine.

Ikirango cy'umuryango mugari mu Rwanda uharanira kwita ku mikurire y'abana batoya ndetse kirimo na kashe y'Igihugu kuko ishushanyijemo agaseke n'ikawa ndetse n'amasaka.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, abamama bafite abana ndetse n'abagabo, iruhande rwabo hari indabyo, bari mu kintu cyubakiye hejuru ihema ndetse bari gushyira abana ku bipimo, babapimisha ku kintu cy'icyo cy'igiti gikoze nk'akabati.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, aba bantu abenshi bambaye imipirisa, harimo abamama bahetse umwana, harimo n'abamama bakikiye abana, aba bantu harimo n'urubyiruko ariko abenshi ni abagore barimo gusa.

Ni abantu batanu bicaye ahantu hamwe, umwe yicaye ku ntebe, umugabo urimo yicaye ku ntebe ukwe yambaye inkweto, ukuguru kumwe yakuyemo ikirenge mu nkweto, inyuma yabo hari insina z'ibitoki hari n'ibiti, hari n'ishyamba ryinshi hakurya yaho.

Aho batangira imiti harimo umugabo ufite imiti, imbere ye hari imashini itera inzuma, uyu mugabo arimo acuruza imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye kandi buvura n'indwara zitandukanye.

Moto iparitse hanze y'amazu abiri yubatse ku muhanda, aya mazu yubatse kimwe ndetse afite n'ibara rimwe, aya mazu iruhande rwayo hari ibyatsi kandi iyi moto iparitse hanze y'aya mazu.

Inzu z'imiryango itatu zubatse ku murongo umwe, zose zubakishije inzugi zisa, zifite no hasi hako isuku kimwe ndetse umuryango wa mbere ubanza urakinguye, urimo ibicuruzwa bitandukanye ndetse imbere y'izo nzu hanze yaho hashashe neza hakore isuku kandi haparitse n'imodoka.

Abantu benshi bari hamwe bamwe baricaye abandi barahagaze. Kuruhande rwabo hari abandi bahagaze bafite urupapuro rurerure rwanditseho ikintu ndetse inyuma yabo hari ibiti kandi hari n'amazu ndetse aba bantu iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho cyubatse, hicaye ahantu hari igitaka imbere yabo hari agatebe gato.

Umunyabuzima uri kuvura abantu ndetse iruhande rwe hari abantu benshi cyane, hari ameza ateretseho ibinini, impapuro n'abantu bari guterwa urushinge mu kuboko bavurwa.

Ni abantu benshi bicaye, aba bantu iruhande rwabo hateretse ingoma, inyuma yabo hari ibiti ndetse no hagati muri bo hateyemo igiti, hagati muri bo hahagaritsemo bafule ndetse inyuma yabo bose hari inzu, aba bantu harimo abagore, abagabo, ndetse n'urubyiruko.

Abantu bahagaze inyuma y'igitambaro cyanditseho, kwimakaza ibiganiro byigisha ubuzima bw'imyororokere, ni aba mama, ni abagabo ndetse harimo n'abasore.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe bari mu ihema ryubakiye, abandi bahagaze hakurya yabo harimo abantu bambaye amashati asa ndetse imbere yabo hari igikoresho gifata amashusho, hari n'ibyatsi bahagazemo hari n'umuhanda w'igitaka ubagabanyijemo kabiri.

Umuntu wambaye ishati ndende y'ibara ry'ubururu, afite n'ikaramu yambaye n'ikarita, yambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hateretse igikombe, ahantu ari hari igipapuro cyanditseho ngo baho neza.

Isekuru irimo umuhini ndetse iyi sekuru irimo ibyatsi hari umururu usekura umuti. Uyu muti uravura kandi iyi miti ivuruza, ivura bya gakondo ni imiti ivura ahambere kera bavurishaga mu buryo bwa gakondo ndetse n'ubu ikivura.

Umuntu wicaye, iruhande rwe hari mudasobwa, hari n'impapuro ndetse ameza iyo mudasobwa iteretseho arambuye ibitambaro, uyu muntu yambaye ikarita ndetse imbere ye hari intebe kandi iruhande rwe, hari n'akabati kagiye karimo ibintu bitandukanye.

Umugabo ugenda agana mu marembo y'inzu, yanditseho ngo gira ubuzima, uyu mugabo, abanje kunyura kuri kandagira ukarabe gukaraba ibiganza, iruhande rw'ayo marembo, hari indabyo ndetse n'imbere muri iyo nzu, hari abandi bantu, bafite n'abana.

Umubyeyi uhetse umwana umwe afite n'undi mwana mu kuboko kwe kw'iburyo, uyu mubyeyi atwaye n'igikapu, uyu mubyeyi ari kugenda mu muhanda w'igitaka yerekeza ahantu hari inzu, iruhande rwe ku muhanda ahantu ari kunyura hari ibiti, ndetse iruhande rwe na none rw'ukuboko kw'ibumoso ahantu ari kunyura hari umurima w'amateke, uyu mubyeyi atwaye abana babiri.

Abana bato bicaye ku ntebe imwe bose bari kureba mu kerekezo kimwe bari kureba umumama utwaye igikapu winjira mu nzu ikikijwe n'indabyo, hirya y'aho hari ikigega kijyamo amazi ndetse hari na pasiparumu ndetse hari n'ibiti inyuma y'iyo nzu, hari n'ibyatsi byinshi.

Ni abantu benshi, abenshi muri bo bambaye ibisa, harimo n'umusirikare, harimo n'umuntu wambaye isaha, hari undi wambaye amarinete uri gufotora bari gukata umugozi.

Abagabo bicaye hamwe ku ntebe ndetse yicaye n'umugore umwe, abagabo imbere yabo hari utumeza dutoya turambitseho ibikombe, impapuro, akavudo ndetse n'ibindi bikombe birimo imiti ndetse aba bagabo bafite impapuro barimo bandika, abandi barimo bitegereza babareba.

Umukecuru wambaye agapfukamunwa ndetse afashweho n'ibiganza byambaye ubwirinzi, uyu mukecuru bari kumutera urushinge, umuntu uri kumutera urushinge yambaye agapfukamunwa nawe we, bari kumutera urushinge ku rutugu.